Birakwiye ko buri muntu wese yamenya ko ikoranabuhanga ari kimwe mu bintu bituma iterambere ry'igihugu ryihuta ndetse n'iterambere ry'abenegihugu muri rusange rikagerwaho mu buryo bwihuse.

Ni ingenzi cyane ko urubyiruko twafata iya mbere mu kwiteza imbere, tukagana imirimo imwe n'imwe yaduteza imbere, nko gucuruza ndetse n'indi, kuko bituma twiteza imbere ndetse tugateza imbere n'Igihugu muri rusange.